Kuko bigaragara uyu ni umuntu bigaragara ko yihebye bigaragara nkaho yahuye n'ibyago runaka no kwa muganga yipfutse mu maso ubona ko byamucanze rwose.